Urubyiruko rwari rwambaye imipira isa y'ubururu, imbere yanditseho amagambo. Bari bicaye begeranye ari benshi, bari kureba imbere, bigaragara ko hari umuntu wari kubaha amabwiriza.

Itente irimo abantu bari bicaye ku ntebe za palasitike, muri izo ntebe hari harimo izifunyitse mu bitambaro by'amabara, igitambaro cy'umutuku, ubururu, icyatsi, n'umuhondo. Hari hahagaze imbere umugabo afite ijambo.

Itente yari irimo abantu benshi bari bicaye batuje, imbere y'abo bantu hari hari utumeza tubiri, turiho ibitambaro by'umweru bigeze hasi, hakaba hariho udusakoshi tw'abadamu bari bicaye imbere y'utwo tumeza.

Umugabo wicaye wambaye ikositime yambaye n'amadarubindi nta misatsi afite, yicaye asobekeranyije intoki, yicaye asa nkuwitegereza imbere ye bigaragara ko hari umuntu wari kuganira, iruhande rwe ku meza n'ukuvuga iburyo n'ibumoso hari uducupa tw'amazi tugipfundikiye.

Abantu bari muri sare bari bicaye bameze nk'abari mu nama bicaye bateganye hagati harimo amavaze y'indabyo, ihande cy'ibumoso kirimo abantu benshi naho igihanda cy'iburyo kirimo abantu batatu, hirya hakaba hari umuntu wicaye uko yitaruye abo ngabo bigaragara ko yari n'umuyobozi ubayobora muri iyo nama.

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Itsinda ry'abantu benshi, bari barimo kwifotoza bafite igisheki kinini, cyari cyanditseho Arajibi, munsi yaho handitse, hari amafaranga miliyoni mirongo ine n'eshatu, n'ibihumbi magana cyenda na makumyabiri na bitanu.

Abantu bari bateranye bameze ngaho bari bari munama kumeza yabo hari uducupa tw'amazi tw'inyange hakaba hari harimo umugabo umwe wari ufite ijambo.

Abantu bicaye nk'abari mu nama, bareba imbere, bigaragara ko hari umuntu wari urimo kubabwira cyangwa se kubigisha.

Abantu benshi bari muri sare, bicaye bikozemo amatsinda, buri tsinda ryicaye ukwaryo ku meza y'ikize y'uruziga, hakaba harimo n'umupolisi wambaye ama ufite amapeti atatu ku ntugu.

Abantu bari bicaye muri sitade, bicaye muri tiribine, imbere y'abo bantu hari akameza gatoya kari gateretseho uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye begeranye nk'abari mu nama, inyuma y'abo hari camera nta muntu uyiriho, imbere y'abo bantu ku meza hagiye haduteretseho uducupa tubiri ak'amazi n'aka ji.

Abantu benshi b'urubyiruko, bari bicaye ahantu hameze nko muri sitade, harimo abantu bamwe na bamwe bambaye amajire y'umuhondo, harimo abambaye amajiri y'ubururu hakaba hirya hari abambaye impuzankano za daso, impuzangano y'icyatsi.

Abantu benshi bicaye muri salle bambaye neza bamwe bafite maraputopu bari kuyakoresha, abandi bari gukoresha telefoni, abandi nta kintu bafite.

Abantu bari mu nama, bicaye bateganye hagati hari imeza ndende, hirya, hagati hari umuntu bitegereza bigaragara ko ariwe urimo kubakorera, kubakoresha inama.

Umugabo wambaye ipantaro yumukara n'ishati y'umweru akaba yambaye na baji mu gatuza afite mikoro ari hagati y'abantu bicaye bategamanye bakaba bafite ameza maremare ariho ibitambaro birebire by'umweru akaba ari kubigisha.

Abantu bari mu ihema bari benshi cyane bari mu ihema rinini hari harimo umuntu umwe wari uhagaze afite mikoro dekorasiyo ni dekorasiyo y'ibendera ry'igihugu akenshi na kenshi iyo badekoye gutya aba ari nk'ibiganiro bya politiki y'igihugu.

Abantu benshi bari mu mahugurwa bari bicaye bazengurutse imeza ndende bari kureba imbere ku gikuta aho bari batunze porojegiteri yari iriho ibintu babahuguraga.

Abantu benshi bari muri tente, imbere hari abasirikare babiri bicaranye, hakaba hari n'umugore wambaye igitambaro mu mutwe, uri kugenda asuhuza.

Abantu bari bateranye, imbere yaho hari abayobozi babo, hakaba harimo umudamu umwe wari uhagaze ari kubahugura ku bijyanye n'uburinganire n'ihohoterwa.

Abantu benshi bari muri tente cyangwa mu ihema bari bicaye, hakaba harimo umugabo wari witeye imyitero yambaye n'akagofero, akaba afite n'agapfukamunwa k'ubururu.

Abantu bari bicaye ari benshi, benshi bari barimo kureba imbere, ariko harimo umugore wari wambaye umwenda w'umuhondo yari afite telefone mu ntoki we areba ahandi handi aho abandi batareba.

Sare yari irimo abantu benshi bari mu nama, imbere y'abo bantu hari umugabo wari uri kubahugura yari ari guseka yishimye, inyuma ye hari banderore iriho ibintu bahugurwaga, i bumoso bwe hari porojegiteri yari utunze ku gikuta ariko yaka ariko nta mashusho igaragaza.

Ameza asize irange ry'umweru kuri ayo meza hateretse indobo ebyiri. Indobo ya mbere irimo amacapati, indobo ya kabiri amandazi, hari n'agasahane kandi hakabaho akantu ku rusenda n'ak'umunyu, hateretse imineke, hateretseho amagi munsi ya meza hari puberi ushobora gushyiramo imyanda, hari n'intebe kandi yumweru, irimo iragaragara, hari n'icyapa cy'umuhanda kirimo kiragaragara hari n'umuntu kandi uri mu muryango waho ngaho ushaka kubakenera ibyo kurya wagana aha hantu bakabikoherereza.

Abantu bari bateraniye ahantu hamwe bicaye, imbere y'abo bantu bicaye hahagaze umugabo wambaye fime, rinete za fimi afite mikoro mu ntoki, ari kugenda abaganiriza. Inyuma y'uwo mugabo hari abasirikare n'abapolisi bari bicaye mu tete harimo n'abaturage b'abasivire.

Umugore wari ufite imisatsi ya natirere, ahagaze afite mikoro, ayifatishije ukuboko kw'ibumoso, ukw'iburyo kurambuye ku meza, inyuma y'uwo mugore hari icyapa cyanditseho arajibi.

Abantu batatu, umugabo umwe n'abagore babiri iruhande rw'abo bantu hari raputopu ifunguye bose bari kureba ahantu hamwe uretse umugore uri hagati we usa nkaho yarangaye.

Abantu bari bicaye bateganye, ku meza hari uducupa tw'amazi n'ama ajenda, inyuma yabo hari umugabo wari wambaye kositime, bose bari barimo kureba ku gikuta cy'imbere yabo, hagati hari porojegiteri yari ihamuritse barimo gusoma ibihanditse.

Abantu batatu, umugabo umwe n'abagore babiri, bicaye bareba ahantu hamwe, bigaragara ko hari umuntu bari kureba, bateze amatwi, inyuma y'aba bantu, hari ibyapa byanditseho ngo :"Kigali yacu, Kigali ikeye."

Abantu benshi bari bicaye muri tente cyangwa se muri shitingi shitingi dekorarasiyo yayo yari iy'ibendera ry'igihugu cyacu mbere hari hari umugabo hari umugabo wari ufite impapuro sinzi ibyo yandikaga.

Urubyiruko rwinshi ruri ku muhanda, rufite banderore yanditseho ngo sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye. Imbere yabo hari umupolisi ushinzwe umutekano wabo.

Abantu benshi bicaye muri sale, hari abari hasi, hari n'abari hejuru, barishimye, bari kureba ahantu hamwe imbere yabo, abandi bari gufotora bakoresheje amatelefone ngendanwa.

Abantu bari muri sale bicaye mu buryo bw'igice cy'uruziga hagati hakaba hari umwanya munini imbere hakaba hicaye abantu babiri, inyuma y'abo bantu babiri hari icyapa kinini cy'ubururu hejuru y'icyo cyapa hari porojegiteri ihamuritse igenda ibereka ibyo bari kwiga.

Abagabo batatu umwe yambaye kositime nziza y'umukara, bakaba bambaye amadarubindi, babiri bafite raputopu bakaba bose bari kureba imbere, bameze nkaho bakurikiye umuntu uri kubigisha.

Abantu batatu bicaye begeranye, abagore babiri n'umugabo umwe bari kuganira baseka kandi buri wese imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Abagabo bane bari bicaye ahantu hameze nko muri situdiyo, inyuma yabo harya furati sikirini binini, iburyo hari umugabo wari ufite mikoro bari bameze nk'aho bari gutanga ikiganiro.

Abagabo batatu, babiri baricaranye, baregeranye, undi arabitaruye imbere y'ubitaruye hari agacupa k'amazi, hakaba hari n'agacupa kavamo umuti wa sanitayiza.

Abantu benshi bicaye iruhande mu busitani iruhande rw'agahanda gatoya k'igitaka. Muri ako gahanda hakaba hahagaze umuntu uri kugenda asa nk'ugira icyo abwira aba baturage bicaye hasi.

Uyu n'umukuru w'igihugu cyu Rwanda, aho yari ari kwiyampamariza kuyobora ndetse nk'uko bigaragara abaturage bakaba bari kumugaragariza urukundo, bamwishimiye kandi bamwereka ko bamushyigikiye.

Abantu bari mu nama, barikumva bateze amatwi ibyo bari kubwirwa.

Mashini ya kopiyuta cyangwa raputopu cyangwa se terefone yariri kwaka hejuru mu nguni ibumoso handitse irembo. Ahandi hakaba handitse mu magambo atsindagiye manini, ngo intambwe ya mbere.

Abantu babiri bicaye imbere ya mashini bita kompiyuta, hari uri kwandika muri kompiyuta, undi uri iruhande rwe yambaye ingofero akaba yitegereza uri kwandika bigaragara ko ari kumubwira ibyo agomba kwandika.

Karitsiye iri mu mujyi rwagati aho bita muri Car free zone harimo abantu bari gutembereramo, hepfo yaho gato hari inzu ya etaje nini aho bakunda kwita kwa Makuza, inzu ya etaje nini ya Makuza.

Abanyeshuri babiri begereye ku meza umwe yambaye umupira undi nta mupira yambaye yambaye karuvati, ni abanyeshuri bari kwiga iby'ikoranabuhanga.

Sale irimo abantu benshi bari barimo gukoresha laputopu zabo, hakaba hari umugore wari uri, wari uhagaze inyuma y'undi, asa nk'uri kumwerekera ibyo agomba gukora.

Abantu benshi bari bicaye ahantu hameze nko mu modoka cyangwa mu ndege buri wese yarari mubye. Hari abari bafite amaraputopu bari kuyakoresha, hakaba harimo n'abari barimo gukoresha amaterefone yabo.

Umunara w'itumanaho uriho ibikoresho byakira amashusho n'amajwi bibabivuye kuri satelite, bityo natwe bikadusakaraho mu matelefone yacu.

Icyapa cy'aho batangira serivisi z'irembo, uburyo bwo gufasha abaturage mu kugerwaho na serivisi bifuza mu buryo bwihuse, bw'ikoranabuhanga.

Ni i Kigali mu mujyi aho bakunze kwita muri ka furi zone, hari inzu ya makuza ndende cyane aha rero baraharuhukira bakahatemberera.

Icyapa cya Rwanda reveni otoriti, kigaragaza amatariki y'ingenzi yo kwishyiriraho imisoro mu kwezi kwa cumi n'abiri.

Mu muryango w'umuhondo, imbere ku muryango handitseho ngo Irembo, na fotokopiyeze iri mu nzu yanditseho hasi Irembo. Irembo ni uburyo bwiza leta yashyizeho bwo kwegereza serivisi za leta ku baturage.

Umugabo wari wicaye imbere ya kompiyuta, kompiyuta ayitunze urutoki igice kimwe handitseho serivisi z'irembo, ikindi gice handitseho andi magambo ariko hari igishushanyo cy'ikiganza gifite telefone ya simatifone.

Ikirangantego cya RRA, ni ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwakira imisoro, RRA ni mu magambo ahinnye bisobanura ngo Rwanda Revenue Authority.

Abantu bicaye mu modokari, hari abadamu babiri bafite amaterefone, umwe ari kwereka undi muri terefoni, abandi baricaye baratuje.

Abagore bari bambaye neza bari muri sare, buri wese afite sumati fone ari gufotora ibibera imbere ye.

Umunara ufotoye kuva hasi kugeza hagati usize irange ry'umweru n'umutuku iruhande rwaho imbere yaho hari ibiti by'imikindo n'igiti cy'ipoto n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi, ibumoso bwaho hari igiti kimeze nkaho ari igiti cy'avoka

Abantu babiri, umukobwa n'umuhungu, bari bambaye amajire y'akazi n'ingofero z'ubwirinzi, bari bahagaze iruhande rw'umunara bafitiye laputopu mu ntoki, bari barimo gusuzuma yuko rezo zikora neza.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo manini kiri ku nzu, amagambo yanditseho ngo irembo, irembo ni hamwe batangira serivise ku buryo umuntu atakirirwa yirukanka ajya ku karere, ajya ku kagari ashaka serivise zitandukanye bisigaye byaroroshye ku buryo amubona hafi.

Umunara uri kugaragara igice cyo hasi, hasi urazitiye n'agapangu gatoya kawuzengurutse, muri ako gapangu hariho zasenyenge zigiye zikazengurutse.

Pironi nini iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, aya mapironi maremare akunze kuba ari amapironi avana umuriro ahantu kure kandi awujyana ahandi kure.

Icyapa cya rege kivuga aho ikorera i Gikondo rege ni ikigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya umuriro w'amashanyarazi.

Amapoto abiri yegeranye ariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, akaba n'insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu baturage.

Ipiloni y'umuriro w'amashanyarazi. Ibipiloni bikunze guhererekanya umuriro biwuvana mu ntara biwujyana mu yindi ntara cyangwa se hanze y'igihugu.

Ipoto iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ikaba ariho abaturage bafatira umuriro. Iruhande rwaho hari igipangu kinini kirimo kirimo imodokari hirigisi, iruhande rwaho hahagaze umuntu.

Ipoto ririho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ryegereye inzu iriho icyapa cyanditseho "durayikirina", bivuga aho bamesera, batunganyiriza imyenda iba yaranduye. Iruhande rwaho hari inzu ya etage barimo kubaka itari yuzura.

Amapoto abiri ariho taransiforumateri, taransiforumateri icyo imaze: ni ho bakupira umuriro, ni ho bashobora kongerera umuriro cyangwa bakawugabanya.

Imodoka ziparitse, hakaba hakaba hari n'urujya n'uruza rw'abantu bagenda bagiye nk'aba bagiye ku isoko, hakaba n'imodokari ziri kugenda, bigaragara ko aha ari ku isoko baba bagiye cyangwa ari mu mujyi.

Ipoto iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi akaba ari naho abaturage bafatira umuriro w'amashanyarazi, umjuriro w'amashanyarazi udufasha mu bikorwa bimwe na bimwe kutumurikira iby'ikoranabuhanga gucuranga radio na televiziyo n'ibindi n'ibindi.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Ipironi y'umuriro w'amashanyarazi, ni ya mapironi ajyana umuriro ahantu kure, ayavana mu ntara ayajyana mu yindi ntara cyangwa se akayambutsa no ku mipaka y'ibindi bihugu.

Ipoto ririho insinga z'umuriro w'amashanyarazi munsi yizo nsinga z'umuriro w'amashanyarazi hari izindi nsinga zijyana umuyoboro wa enterinete mu baturage.

Ipoto iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi abaturage bahegereye nibo bafatira umuriro umuriro ni ingenzi nigikorwa kigaragaza iterambere ry'igihugu cyacu aho rigeze.

Umuhanda warurimo imodokari za moto n'abantu, bari kugendamo kunkengerero zawo, hari ,imbere yaho hari amazu y'ubucuruzi , inyuma yayo mazu har' inzu ya etaje bari barimo kubaka.

Ahantu hari habereye amatora abaturage bamwe bari kujya gutora abandi bari kuvayo ku marembo y'aho hantu hari habereye amatora hari hari banderore yanditseho repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twitabire amatora duhitemo neza.

Ipoto iriho insinga z' umuriro w'amashanyarazi iteye ku nkengero z'umuhanda, iruhande rwaho hateye ibiti, amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa remezo by'igihugu bigaragaza ko biri mu iterambere.

Kwa muganga hari abantu benshi hari abicaye hari n'abahagaze, hari n'imodokari z'imbangukiragutabara bita ambiranse hari n'iyo bari kuvanamo umurwayi, bayifunguye bari kuvanamo umurwayi bamuzanye mu bitaro.

Abantu benshi bari mu nzu, bicaye mu kirongozi hagati, bicaye ku ntebe ndende bameze nk'abari ku murongo, hagati harimo akayira kagahinguranya ku w'undi muryango uhinguranya inzu.

Umwana wari uri ku kagagare afashe ku nkingi y'icyuma, utu tugare dukunze kuba turi kwa muganga, abarwayi baba bari mu bitaro bakunda kugenderaho bagira ngo basohoke bave mu bitaro.

Abantu batatu bari bicaye muri korodoro, bigaragara ko ari kwa muganga, hejuru yabo hari itara ryari ririmo riraka, umuntu wa ubanza ni umudamu yari ahetse umwana amutwikirije igitambaro, impande ze hari igikapu giteretse hasi.

Ikirere gifite ishusho isa n'umweru. Aho bigaragara ko hari amazu ari aho ngaho, bikaba bigaragara ko harimo indabo nini zitandukanye, hakagaragaramo n'icyuma cyabugenewe gitwara amashinyarazi kiyakura mu gace kamwe kiyajyana mu kandi.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Ibitaro bya kaminuza y'u Rwanda bita Sehashika biri i Kigali. Aha ni inzira n'ibyapa bigenda biyobora abantu.

Kwa muganga hari abaganga babiri; umwe atwaye aka etajeri kagendeshwa n'amapine, karimo imiti. Bose bari bambaye amataburiya y'umweru.

Ikigo kinini gifite imbuga nini ishasheho amapave, ahatari amapave hakaba hari ubusitani. Kandi buri nzira yose ikaba igiye isakaye, uretse hano hino hari igicupa kinini kirimo ibizimya umuriro, igihe habaye inkongi.

Kwa muganga hari abantu bicaye n'abahagaze, inyuma gatoya iburyo hari umugororwa cyangwa umunyururu wicaye ku ntebe wenyine imyuma ye hari cya kintu bamanikaho amatangazo yo kwa muganga imbere ye gatoya yo kugikuta hari cya gicupa kizimya umuriro nk'igihe haba habaye inkongi y'umuriro bakaba bakifashisha bazimya.

Iyi ngiyi ni imirimo y'amaboko y'ubudozi aha ngaha bakudodera ibikapu byiza gakondo Kinyarwanda wabasha kuba wahaha ukakajyana ahantu hatandukanye guhahiramo ndetse n'utundi tuntu twinshi.

Urubaraza rwiza, kuri urwo rubaraza hari inkingi eshatu zubakishije amabuye, hakaba hari intebe zidafite umuntu uzicayeho, hirya y'izo ntebe hari icyapa kigaragaza aho tuwarete ziherereye, zaba iz'abagabo cyangwa abagore ndetse n'abafite ubumuga.

Mukigo cyo kwa muganga haparitse imodokari eshatu, ebyiri ni izitwara indembe bakunda kwita ambilanse, indi ni ivuwatiri y'umukara iri iruhande rwazo.

Abantu bicaye mu kirongozi hagati, ku ntebe, abandi barahagaze, abandi bari kugenda no kugaruka, hino hicaye imfungwa cyangwa umugororwa, wambaye impuzankano, ari wenyine nta wundi bicaranye, iruhande rwe hari cya gicupa kibamo ibintu bizimya umuriro.

Kwa muganga hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru afite amadosiye mu ntoki kwa muganga niho abarwaye bajya buri wese icyo arwaye akagenda muri serivisi icyo arwaye bakamuvura agakira.

Abanyeshuri barangije kwiga kaminuza bakaba bara bambaye ya makanzu bambara bafata diporome ibyo bita kugaraduwetinga.

Umugabo yambaye kositime na karuvati aricaye. Imbere ye hari mikoro, ameze nk'uri kuvuga ijambo, inyuma ye hari ibara ry'ubururu.

Abantu bane bari bahagaze imbere y'ibendera ry'igihugu, bafatishije akaboko k'ibumoso, bari bafatishije akaboko k'ibumoso, ak'iburyo kazamuye ikiganza bameze nk'abari kurahira.

Sare irimo abantu bambaye nk'abacamanza cyangwa abavoka, imbere hari umudamu afashe ibendera azamuye ikiganza yambaye n'agapfukamunwa ameze nk'urimo kurahira.

Umugabo wambaye amadarubindi y'amaso akaba yambaye ishati na karuvati n'ikanzu igaragaza ko ashobora kuba ari umucamanza.

Abantu benshi bicaye bazamuye ukuboko nk'abari gusaba ijambo, imbere yabo hari abantu bageze ku icyenda bicaye imbere yabo. Imbere yabo hari akameza bameze nk'aho barimo gutanga ijambo bariha abaturage.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga. Ahangaha turabona amafaranga y'amanyarwanda, amafaranga y'amanyamahanga, amadorari bitewe nayo ukeneye uraza ukazana amanyarwanda bakaguhereza amanyamahanga cyangwa ukazana amanyamahanga bakaguha amanyarwanda.

Abacamanza icyenda, buri imbere ya buri mucamanza hari ibendera ry'Urwanda, bazamuye akaboko k'iburyo, akaboko k'ibumoso kakaba gafashe ibendera, bigaragara ko bari barimo kurahira.

Abaturage benshi bari bicaye mu byatsi bakoze uruziga, hagati muri urwo ruziga hari hari umuturage wa uhagaze hagati yabo, ahagaze imbere y'abantu bari bicaye ukwabo, bitaruye abo baturage imbere y'abo bantu hari imeza.

Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Paji bafotoye ivuga iby'ubutabera bw'u Rwanda, bakaba bafotoye paji yerekana uko imanza zigomba gucibwa, cyane cyane ku ngingo ya gatatu, imanza mbonezamubano.

Abantu benshi bicaye muri sale baritonze bari kureba imbere buri wese imbere ye hateretse agacupa k'amazi bameze nk'abari mu nama.

Abanyururu babiri bari bahagaze imbere y'abacamanza, hirya y'aba banyururu hari umugabo wari uhagaze, bigaragara ko aba banyururu bari barimo kubacira urubanza.

Abagororwa benshi bari bari mu nzu bicaye mu ntebe inyuma y'abo bagororwa hari umugororwa umwe uhagaze afite amadosiye mu ntoki ari kumwe n'umwavoka we bameze nk'aho bari kuganira bambaye agapfukamunwa.

Umugore ufite umusatsi muremure wambaye imyenda y'umutuku, vharimo n'umukara n'umweru n'ijipo ngufiya, ufite igikapu gikunzwe gukoreshwa n'abantu bakunze kujya mu mahanga akaba ahagaze hafi y'ibyapa bigiye bitandukanye ndetse n'inyuma yaho hakaba hari iminara y'amashanyarazi.

Gereza, hanze y'iyo gereza ibumoso, hari abagororwa benshi bari ku murongo imbere y'umuryango, bategereje kwinjiramo. Iburyo bwabo hakaba n'abandi bagororwa barimo kwakirwa n'abaje kubasura.

Abagabo babiri bari bicaye muri salle irimo intebe zirimo ubusa nta muntu uzicayemo aribo bonyine bicaye umwe ni imfungwa undi yambaye imyenda y'abacamanza bari kuganira basa nk'abaganira iby'urubanza rw'uyu mugororwa.

Imfungwa cyangwa abagororwa ni abantu baba barakoze ibyaha bagakatirwa n'inkiko, bari bavuye mu kazi, bafite ibikoresho by'akazi bari basubiye aho batuye. Aho bagororerwa.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye; nk'inyanya, ibitunguru, ibishyimbo ndetse n'ibindi nk'ibitoki mu buryo bwinshi cyangwa se mu buryo bukeya.

Abantu babiri, umugabo n'umugore bari bambaye udupfukamunwa tw'ubururu bari imbere ya za Computer zabo, ikoranabuhanga n'igenzi mu buzima bwacu rituma iterambere ryihuta.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Umugabo n'umugore bari barimo kuganira barebana, mbere yaho ku meza hari ibirahure bimwe birubitse ibindi birubuye, inyuma y'abo bantu hari abandi benshi bari bahari hari n'ameza ariho ibirahuri.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Ibinyabiziga by'abapolisi biri mu muhanda biri kugenda. Imbere hari toyota irimo itwaye abapolisi, imwe bakunda kwita pandagare. Inyuma hari bya bimoto binini byabo biriho abapolisi babitwaye.

Parikingi y'abamotari, abamotari bari ku mapikipiki yabo, bambaye amakasike barahagaze imbere yabo hari umupolisi ushinzwe ibinyabiziga byo mu muhanda, hirya yaho gatoya hari imodokari y'abapolisi.

Ibicupa byinshi byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. Bikunze gushyirwa ahantu mu mazu, hahurira abantu benshi.

Abantu batatu umudamu umwe n'abapolisi babiri barahagaze, abapolisi bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano ku muhanda bakaba bahagaze imbere ya cya kimoto cyabo cy'umweru.

Ibicupa bibiri by'umutuku biri hasi, ibicupa bikunda gushyirwa ahantu hahurira abantu benshi n'ibicupa byifashishwa igihe bazimya inkongi y'umuriro.

Ibicupa bibiri by'umutuku; kimwe kimanitse ku nzu, ikindi kiri hasi, ibi bicupa bishyirwa mu mazu, ahahurira abantu benshi, bikaba byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, igihe yabonetse.

Abapolisi bahagaze, bari bambaye impuzankano zabo bafite n'imbunda, hirya yaho gatoya hari ikimodokari cyari gifite shitingi yanditseho oni; bigaragara ko bari bagiye mu butumwa bw'akazi mu mahanga.

Igicupa cy'umutuku kibamo ibintu bizimya umuriro bakunze kugishyira ahantu hahurira abantu benshi kugira ngo haramutse habaye impanuka hagashya bibe byafasha kuzimya uwo muririro vuba na bwangu.

Umupolisi ushinzwe umutekano w'ibinyabiziga mu muhanda, yahagaritse umushoferi, ari kumubaza ibyangombwa cyangwa se akaba yamubonyeho amakosa.

Umupolisi ushinzwe umutekano mu muhanda arahagaze imbere ye hari umukarani ufite kungufani hirya hari abamotari iyo hari umutekano mu muhanda akenshi na kenshi tuba tubikesha nk'aba bapolisi.

Ibicupa bibiri by'umutuku, birimo ibizimya umuriro. Bikunze gushyirwa ahantu hahurira abantu benshi, kugirango niharamuka habaye impanuka y'inkongi y'umuriro, babyitabaze bari kuzimya uwo muriro.

Igicupa cy'umutuku kimanitse ku gikuta cy'inzu ni ibicupa biba birimo gazi cyangwa ibintu bizimya umuriro, bakunze kubishyira ahantu hahurira abantu benshi bakaba bakwikanga ko haba inkongi y'umuriro bakabyifashisha bazimya.

Igicupa cy'umutuku kirimo ibintu bizimya umuriro gikunze gushyirwa mu nyubako ihuriramo abantu benshi kikitabazwa mu gihe izo nzu zahuye n'inkongi y'umuriro.

Imodokari y'ivatire ya gipolisi yanditseho tarafiki polisi, ni abapolisi bashinzwe umutekano w'ibinyabiziga mu muhanda.

Imodoka ya vewiti yari iparitse mu gipangu imbere y'imodokari hari hahagaze umupolisi wambaye impuzankano z'abapolisi ahagaze asa nk'uvugana n'umuntu wari urimo imbere.

Igicupa kibamo ibintu bizimya umuriro gikunze gushyirwa ahantu hahurira abantu benshi nko ku masoko mu maduka n'ahandi henshi hahurira abantu benshi hashobora kuba haba inkongi y'umuriro.

Uyu n'umukuru w'igihugu cyu Rwanda, aho yari ari kwiyampamariza kuyobora ndetse nk'uko bigaragara abaturage bakaba bari kumugaragariza urukundo, bamwishimiye kandi bamwereka ko bamushyigikiye.

Abantu bari mu nama imbere hicaye madamu Jeannette Kagame, umudamu wa Nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, bakaba bari barimo kureba imbere nk'abantu bateze amatwi umuntu uri kubabwira.

Umugabo wambaye kositime y'ubururu, ishati y'umukara na karuvati y'ubururu, ari imbere ya mikoro azamuye ikiganza cy'iburyo ameze nk'aho ari kurahira, munsi ye hari izina rye Dr. Utumatwishima Jean Marie Minisitiri w'Urubyiruko.

Abantu benshi bakoze imirongo ibiri bategereje guhabwa serivise kujya ku murongo ni uburyo bwiza butuma umuntu ahabwa serivise neza kandi vuba.

Banderore ziriho ifoto y'umugabo witwa Mpayimana firipe, imbere ye hari udufureshi tuvunaguye twerekeze icyerekezo cyo hejuru, uyu Mpayimana firipe yari ari kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika.

Nyakubahwa perezida Paul Kagame, yari ari imbere y'abaturage benshi, yambaye ingofero y'umutuku n'amadarubindi n'agapfukamunwa n'umupira w'amaboko maremare w'umweru, biriho ibirango bya Efuperi. Umupira yari yawuzamuye yawugejeje mu nkokora, akaboko k'imoso kazamuye kafunze igipfunsi.

Abantu babiri bari bicaranye umwe n'umugore undi n'umugabo, umugore yambaye za nkweto zifite taro ndende yifashe neza ameze nk'aho yahuje ibiganza, umugabo yambaye ishati y'umweru ya meyide ini Rwanda, ibiganza bye byari bibumbye nkaho ari gukoma mu mashyi.

Abantu benshi barahagaze barishimye bameze nk'abari gukoma mu mashyi nk'abari kuririmba, imbere hari umusore azamuye amaboko nk'urimo guhamiriza.

Abantu babiri umugabo n'umugore bari kwandika bameze nkaho bari guhugurwa, inyuma yabo hari banderore nini yanditseho ubumwe n'ubudaheranwa.

Icyumba cy'amatora cyari kirimo abagore babiri, umwe ahetse umwana amutwikirije igishura, afite na telefone mu ntoki, ukundi kuboko ufite urupapuro yaramajije gutora arimo kurushyira mu gasanduku.

Ifoto y'abantu benshi cyane bari bateraniye ahantu baje kwamamaza Paul Kagame umukandida wa FPR akaba ari nawe chairman wa FPR, bari bafite ibirango bya FPR kandi na perezida Paul Kagame yari ahari arinzwe n'abasirikare, yari yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abagabo bari bicaye bareba imbere, buri mugabo imbere ye ateretse ka mikoro bigaragara ko bari bameze nk'aho bari mu nama.

Abantu benshi bafite ibirango by'ishyaka rya efuperi bambaye imyenda ya efuperi, ingofero bafite n'amadarapo, muri abo bantu hagati harimo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yambaye agapfukamunwa yambaye n'umupira wa efuperi w'umweru, azamuye n'ingofero y'umutuku yayikuyemo arayizamuye.

Umugore wari wicaye ku ntebe ndende y'umukara, umugore w'imisatsi ya natirere, yambaye amadarubindi, yambaye ikote imbere ye ku meza hari ka mikoro kamwe gatoya karekare, ameze nkaho ari gutanga ikiganiro, inyuma ye hari ibendera ry'gihugu.

Abantu benshi bari bahagaze harimo abagabo n'abagore, muri abo bantu bari bambaye amakositimu, abagore bakenyeye, muri aba bantu harimo na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame.

Umugabo bari batunze mikoro nyinshi wari wambaye ingofero iriho ibirango bitagaragara neza. Abanyamakuru, yari ari kubwira abanyamakuru amagambo. Inyuma y'uwo mugabo hari banderori iriho amagambo atagaragara.

Ahantu hari habereye amatora abaturage bamwe bari kujya gutora abandi bari kuvayo ku marembo y'aho hantu hari habereye amatora hari hari banderore yanditseho repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twitabire amatora duhitemo neza.

Abantu benshi bari muri sitade bose bambaye ibirango bya fpr bigaragara ko ari abarwanashyaka ba fpr.

Abantu benshi, imbere hari abakecuru bateze urugori kandi bakenyeye imyambaro y'ibirango bya FPR bafite n'amabendera mu ntoki bayazunguza.

Bandorore nini iriho amafoto atatu, ni amafoto y'umuntu umwe witwa Mpayimana Philippe, akaba hari n'akagafureshi kavunaguye kareba hejuru.

Abantu benshi, abagabo n'abagore, abagabo bambaye amakositimu, abagore bacyenyeya bahagaze iruhande rw'ibendera ry'igihugu cyacu bazamuye ikiganza cy'iburyo bigaragara ko bari barimo kurahira

Abantu benshi higanjemo abagore, bambaye imyenda iriho ibirango bya FPR, bafite amadarapo bafite n'icyapa kiriho ifoto ya perezida Paul Kagame bari kugenda bamwamamaza.

Umugore wambaye ikanzu y'umweru akenyeye n'umupira, yarari gusohoka mu modokari y'umukara, akaba iruhande rwe hari umusirikari wambaye ingofero y'umutuku wari ufashe urugi rw'imodoka, bigaragara ko yaramufunguriye kugira ngo asohoke.

Umuntu uri kuri mikoro, yambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro y'ubururu n'umupira imbere y'umweru. Inyuma ye hari abantu bicaye, imbere yaho hari akameza kariho agatambaro k'ubururu. Bigaragara ko ari umuntu urimo kuyobora nk'inama cyangwa se uri kubigisha.

Umuhanda wa kaburimbo urimo tagisi vuwatire n'abanyonzi b'amagare babiri, bari gusunika amagare yabo ahetse imifuka irimo ibirayi.

Igare ririho umugabo wambaye ingofero n'umupira wa tishati n'ipantaro inyuma hakaba hari umuzigo ritwaye, hepfo y'umuhanda hakaba hari igikamyo kinini kiri kubisikana n'iryo gare.

Imodoka y'amapine atatu yo mu bwoko bwa rifani iri kugenda mu muhanda . Rifani itwara imizigo yoroheye abantu.

Abantu bari kugenda ku nkengero z'umuhanda mu kayira k'abanyamaguru, imbere yaho hari imodokari y'umweru ya hirigisi iparitse imbere ya porutaye, bigaragara ko yari igiye kwinjiramo

Abanyonzi b'amagare baparitse amagare yabo ku nkengero z'umuhanda. Hari abagenzi bashaka gutega ayo magare, babagezeho, barashaka kumvikana ko babatwara.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda, kwasiteri n'ivatiri, zigeze imbere y'ibimenyetso biri mu muhanda, kwasiteri biragaragaza ko ikomeza ariko ivatiri irakatira iburyo.

moto iparitse ku nkengero z'umuhanda ifite pulake ya ara efu, maganinani na cumi na rimwe ji. Hirya yaho hagati hari umuntu wari wicaye bafotoye igice, afite telefone mu ntoki, umuhanda ubisikanirwamo urimo imodokari zimanuka n'izizamuka, hakaba hari umumotari utwaye umugenzi wambaye umupira w'icyatsi uhetse malete y'umukara, bakaba bafite kasike z'umutuku.

Hari ikibisi kinini kiri mu muhanda, bakunda kwita shira umuteto, gifite amabara abiri, ubururu n'umweru ariko ubururu nibwo bwiganje, kiri kubisikana n'imodokari igaragaza igice cy'inyuma.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imodoka yarifani isakaje shitingi y'umweru, inyuma y'iyo rifani hari moto, byombi biri kumanuka iburyo bwayo hari moto izamuka itwaye umugenzi wambaye ishati y'ubururu n'ijipo y'umukara bigaragara ko ari umugore, bombi bakaba bambaye kasike z'umutuku, hepfo yaho hari igikamyo kinini cyuzuye imifuka irimo ibintu bari barimo kugipakira cyangwa gupakurura.

Gare yo mu mujyi wa kigali bakunze kwita dawuni tawuni, hahagaze bisi bakunze kwita shirumuteto, ikaba iparitse imbere y'aho abagenzi bategera.

Ikibisi kinini gitwara abantu bakunze kwita shira umuteto cyari kubisikana n'ikamyo nini inyuma y'iyo kamyo iruhande rw'iyo kamyo hari umunyonzi wari utwaye urimo gusunika igare ryikoreye umufuka urimo ibintu.

Imodoka y’umweru iri mu muhanda wumukara ifite amapine y'umukara, iri mu mabara yu'mweru ndetse harimo n'mabara y'umuhondo, iruhande rwayo hari ipikipiki itwaye umuntu umwe wambaye agakote k'umuhondo ndetse n'ubururu, ipantaro y'umweru ndetse numupira w'umweru n'undi wambaye umupira wumukara ipantaro y'umuhondo werurutse n'ingofero y'ubururu ahetse n'igikapu cy'umukara.

Imodoka na za moto biri mu muhanda biri kugenda, imodoka zigeze aho abanyamaguru bambukira bigaragara ko hari ku mugoroba butangiye kwira.

Umuhanda urimo amamoto atandatu n'imodokari imwe, muri ayo mamoto atandatu batanu ni abamotari, undi umwe ntabwo ari umumotari kuko atambaye ijiri y'abamotari.

Abanyonzi batatu hirya hari imodokari ziparitse, aba banyonzi batatu uri mu muhanda yikoreye amabati, ayahagaritse inyuma ye, undi akaba ari kugenda mu kayira k'abanyamaguru.

Igikamyo kinini cy'umweru, cyikorera imicanga, amatafari cyangwa amabuye, bakunze kwita dipine, kiri kubisikana n'umunyonzi utwaye umugenzi, uwo mugenzi we arambuye ikiganza cy'ibumoso, kiri hejuru y'umugongo w'umuyonzi, akaba akikiye ibintu atwaye.

Ikamyo nini yo mu bwoko bwa fuso y'umweru, iri kugenda iteganye n'umuyonzi w'igare uhetse umugenzi mu cyerekezo kimwe, hepfo akaba ari kubisikana n'imodokari y'ivuwatiri y'umutuku.

Imodokari eshatu ziteganye, iyo hagati icanye amatara, iyo hepfo ni kwasiteri, iyo haruguru ni ivatiri, imbere y'izo modoka, hari umugenzi ugiye gutambuka wambukiranya umuhanda, hepfo y'izo modoka hari za lifani ziparitse.

Umumotari yari ari mu muhanda nta muntu atwaye. Abamotari badufasha mu kwihutisha serivisi zacu mu buryo bwihuse tugakorera kugi neza.

Inote ebyiri nshyashya y'amafaranga ibihumbi bitanu ariko n'inota imwe bashatse kwerekana ibihande byombi igihande cy'imbere n' icy'inyuma. Igihande kimwe kiriho ababyinnyi bari kubyina ikindi kikaba kiriho inzu ya etage ariyo ya beneri. Aya mafaranga yakoreshwaga muri mirongo icyenda n'umunani ubu ntagikoreshwa yasimbuwe n'andi.

tagisi vowatire ebyiri ziparitse muri parikingi hagati y'izo vowatiri hari abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye ikabutura y'umweru n'umupira w'umukara undi yambaye ipantaro n'ishati. Imbere y'izo vowatire hari inzu y'igorofa yarihari.

Umuhanda urimo moto ebyiri n'imodoka, umumotari umwe ni we utwaye umugenzi, uwundi nta mugenzi afite. Iyo ushaka kwihuta, utega moto ikakunyarutsa.

Rifane ziraparitse ku nkengero z'umuhanda, ku gahanda k'abanyamaguru hari umudamu w'umugore, ufite agakapu mu ntoki, arimo aragenda, hepfo yaho hari abamotari ba paritse.

Imodoka ya bisi itwara abantu bakunze kwita shirumuteto, yari irimo kugenda mu muhanda, hepfo y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru hari abantu bari bahagaze, haruguru y'umuhanda akayira k'abanyamaguru, hari abagabo babiri bari barimo kugenda mu nkengero z'umuhanda, kuri ako kayira hari ruhurura icamo amazi.

Igikamyo cya rukururana kiri mu muhanda, ku kizuru cyayo ni ubururu, kikaba cyari gipakiye ibintu byinshi, ibyo bintu gipakiye ntibigaragara bipfunyikishijwe shitingi, igiye ihambirije imigozi. Hino ku gahanda k'abanyamaguru, hari umugabo wari wambaye akajire, utujire dukunda kwambarwa n'abakora isuku ku muhanda.

Imodoka yo mu bwoko bwa lifani ifite ihema ry'umweru inyuma kandi umuryango w'inyuma urafunguye iri kugenda mu muhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ariko ibyiganjemo ni moto, abamotari batwaye abagenzi, hepfo yaho hari urujya n'uruza rw'abantu kandi hakaba hari n'inzu ndende imanitseho ibyapa bitandukanye.

Ingorofani ikozwe mu mbaho n'ibyuma ingorofani y'umukarani yikorera imizigo imbere yaho hicaye umugore uhetse ibintu mu gitenge bigaragara ko ari umuzunguzayi iruhande rwabo hari abandi bazunguzayi batanditse ibintu ku mufuka hasi inyanya imiteja na za karoti n'ibitunguru hakaba hari n'urujya n'uruza rw'abantu n'amamoto.

Ni muri gare hari haparitse imodoka za kwasiteri zikoreshwa na ajanse ya sitela.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda. Imbere hari ikamyo itwikirijwe ihema, hanyuma inyuma hakaba harimo ya modokari y'amapine atatu bakunze kwita lifani.

Imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri y'umweru yari ihagaze iparitse nta muntu uyirimo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodokari eshatu, iri imbere ni imodokari itwara ba mukerarugendo, iya kabiri ni Toyota hirikisi, iya gatatu ari nayo ya nyuma ni ivuwatiri irimo umugabo wasohoye akaboko.

Umuhanda uri mu nsisisiro, ni ukuvuga umuhanda uri hagati y'amazu, hepfo hari amazu no haruguru hari amazu, hakaba harimo abanyonzi babiri batwaye amakesi y'inzoga, harimo n'abagenzi bari kugenda n'amaguru.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kugaragaramo umumotari wenyine, iruhande rw'umumotari hari igipangu kinini cyubatse neza gisize irangi ry'umweru, muri icyo gipangu hakaba harimo n'ibiti.

Imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri, irimo abantu, iri kugenda mu muhanda. Inyuma y'iyo modoka, hari umugenzi uri kugenda yambuka. Hepfo yayo, hari umusozi muremure, hakaba hari n'ipironi.

Abamotari babiri bari mu muhanda bari kubisika, ee mu muhanda harimo ibicucucucu by'abantu babiri.

Umuhanda urimo bisi ebyiri zimwe nini, bakunda kwita shira umuteto. Ziri kumanuka. Hino hari kuzamuka dayihatsu, nta bintu yikoreye, iruhande rwa dayihatsu hari umunyamaguru uri kugenda n'amaguru.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatso y'umweru iri mu muhanda, inyuma y'iyo modokari haparitse igare iruhande rw'umuhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo isuku, harimo umumotari watwaye umugenzi, iyo ushaka kwihuta utega moto ikakunyatsa.

Imodoka ya bisi, bisi nini imwe bakunda kwita shira umuteto ni imodokadokari ifite imyanya y'aho abantu bicara n'aho abantu bahagarara.

Dayihatso y'uweru yariri ku ruhande mu muhanda isa nkihagaze imbere y'icyapa cy'ubururu cyemerera imodokari z'amakamyo kuhahagarara. Iruhande rw'umuhanda ku nyengero hari hahagaze abantu hirya gatoya harimo n'abandi bari kugenda.

Ni ingororofani itwara imizigo, akaba ari ingorofe y'abakarani, bakarani biradufasha cyane bakadufasha gutwara ibituremereye tutabasha kwikorera.

Umuhanda wari urimo ibinyabiziga umuyonzi w'igare na dayihatsu iri hino y'umweru yikoreye imizigo itwikirije shitingi y'ubururu yacanye kinyoteri igaragaza ko igiye gukatira iburyo.

Mu muhanda harimo imodoka isize irangi ry'ubururu, imbere harimo haraturukayo ipikipiki ihetse umuntu, hirya gatoya hahagaze umuntu, ku muhanda hari ibiti binini cyane.

Mu mujyi hagati muri karitsiye ya karifuri zone, ahari udukiyosike bacururizamo ibintu by'imitako, hari amakadire ashushanyije abantu, amakadire ashushanyijeho ibindi bintu, ku buryo biba bishimishije biteye neza bisa neza.

Inzu y'umuhondo, ifite icyapa kiri hejuru cy'ubururu cyanditse mu magambo y'umweru ngo :"Urugo mbonezamikurire y'abana bato

Ikibuga cy'umupira cya tenisi. Tenisi ni umukino ukinwa n'abantu babiri bafite agatenesi gatoya k'umuhondo. Agatenesi bakagakina bakoresheje udukoresho baba bafite mu ntoki.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, ikibuga gikinirwaho amakipe, amakipe agatsindanwa abafana bakaba, bakaza kuhafana, buri kipe fite abafana bayo.

Ikibuga cy'umupira cya tenisi, inyuma y'icyo kibuga har iaga tiribene gatoya gasakaye, tenisi n'umukino ukinwa n'abantu babiri bagenda bahererekanya akadenesi gatoya akadenesi kaguye muri fire umuntu aba atsinzwe.

Icyapa kimenyesha abantu ko imbere ari ropuwe, cyangwa umuhanda uzenguruka, icyapa ni umuzenguruko, ubuso ni ubururu, ikirango n'umweru.

Icyapa kiriho umugabo mu maso ugaragara nk'ukuze, yambaye amataratara cyangwa se amarinete mumaso, ikanzu itukura iriho agatambaro kayidodeyeho k'umukara, ishati y'ubururu na karavati.

Icyapa kiburira abagenzi banyura aho ngaho ko imbere hari ibikorwa remezo bari kuhakorera. Ni icyapa cya mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibaraya gusa umweru n'ibirahure by'umukara hasi hari amakaro ifite ibyumba bikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Icyapa kiburira abagenzi ko imbere hari dodani kikaba ari icyapa gikozwe muri mpande eshatu ubuso ni umweru umuzenguruko ni umutuku w'ikirango numukara.

Icyapa kiburira abagenzi ko bagiye kugera aho abanyamaguru bambukira, n'icyapa cya mpande eshatu, umuzenguruko n'umutuku, ikirango n'umukara, ubuso n'umweru.

Icyapa kinini cyanditseho welikamu tu de ripabulike ofu Rwanda, munsi yacyo hari umugore w'umuzungu, wari uhagaze afunze ibipfunsi byombi yerekana igikumwe asa nk'uwerekana ko yishimiye kugera mu Rwanda.

Umuhanda muremure cyane hino hari icyapa cyanditseho Karongi disitirikiti, hepfo y'uwo muhanda wa kaburimbo hari ikimashini gisa nk'igihagaze muri uwo muhanda muri uwo muhanda hakaba harimo abagenzi bagenda n'amaguru hari abahagaze hari n'abarimo kugenda.

Icyapa kibuza amagare kunyura aho hantu kiri, ni icyapa cy'umuzenguruko, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara.

Icyapa cya mpande eshatu iki cyapa gishyirwa ahantu kiburira abagenzi ko bagomba kwitonda kubera imirimo iri gukorerwa aho ngaho, icyapa umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara.

Icyapa gitegeka abantu ko bagomba gukatira ibumoso n'icyapa cy'iburungushuye cy'ikizeru, ubuso ni ubururu, mu maso ni ubururu, ikirango ni umweru. Umuzenguruko ni ubururu.

Ahantu hari habereye amatora abaturage bamwe bari kujya gutora abandi bari kuvayo ku marembo y'aho hantu hari habereye amatora hari hari banderore yanditseho repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, amatora y'abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twitabire amatora duhitemo neza.

Imodokari nyinshi igaragara ni ifuso y'umweru, kaba hari n'izindi inyuma, hakaba hari n'icyapa cyerekana aho umuvunyi akorera.

Mu muhanda hari ibinyabiziga biri kugendamo, hepfo y'umuhanda hari inzu y'amagorofa abiri, haparitseho imodoka, iruhande rwaho hari imitaka ya MTN y'abajenti ba MTN, hakaba hari n'ipoto ijyana umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari n'icyapa kibuza imodokari z'amakamyo kunyura aho ngaho.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibyerekezo bibiri bitandukanye ndetse ukaba ufite n'imirongo ugiye ushushanyijemo hari umurongo w'umweru urombereje uri k'uruhande ndetse n'iyindi iri hagati icagaguwe irimo ibara ry'umuhondo ikaba ifite n'amatara amurika mu gihe cy'ijoro ndetse na kamera zishinzwe umutekano wo mu muhanda.

Inzu ndende ya etaje ifite amabara y'ubururu n'umweru, hejuru hari icyapa cyanditseho zigama. Iruhande rw'iyo nzu ya etaje, hari ikirundo cy'ibitaka biharunze.

Amazu ari munsi y'umuhanda wa kaburimbo, ayo mazu iyo hejuru ku mabati hari icyapa cyanditseho Kanombe kandi hejuru ku mabati hari guca insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

ikigo cy'ishuri ry'abana b'inshuke gikotishijwe igipangu cy'ubururu n'umweru, imbere hakaba harimo abanyeshuri bari kwicunga ku byicungo byabo.

Inzu y'umweru, muri iyo nzu hari icyapa cyanditseho ngo pariki y'inyoni, hepfo y'iyo nzu hari agashyamba, ku gashyamba munsi y'agashyamba harimo imodokari y'ivuwatiri y'umweru.

Ivuwatiri y'umukara yari igiye kwinjira mukigo, icyo kigo imbere yacyo kuri porotayi hari icyapa kinini cy'umutuku, kugikuta cy'inzu handitseho amagambo ngo mitsingi.

Inzu ya etaje y'amagorofa atatu hasi bacururizamo, hari umuryango wa mbere harimo bya bicupa bya gaze by'ubururu, hanze kandi hari imodokari ziparitse z'umukara iruhande rw'izo modokari hari umugabo wari uhagaze, mu muhanda hakaba hari ivatiri y'umweru yarimo kugenda n'abamotari.

Umuhanda uri munsi y'uwo hejuru, uwo munsi harimo ibinyabiziga, harimo amagare na moto n'imodokari, ariko uwo hejuru nta modoka irimo.

Umuhanda muremure wa kaburimbo, iburyo bwawo hari icyapa kibuza ibinyabiziga kuhahagarara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodokari urerekana ibimenyetso byo mu muhanda, ukererekana aho abanyamaguru bambukira; ukererekana ko naho imodokari zitagomba guhagarara umwanya munini cyangwa n'umutoya.

Umuhanda urimo imodoka n'ibindi binyabiziga, hakaba hari iruhande rwaho hari akayira k'abanyamaguru, harimo abantu barimo kugendamo, iruhande rw'ako kayira hari icyapa kibuza imodokari kuhahagarara, ni umuzenguruko icyapa cy'umuzenguruko, umuzenguruko wacyo n'umutuku, ikirango ni umukara, ubuso ni umweru.

Mu muhanda aho abanyamaguru bambukira harimo abantu bane bari kwambuka, iyo bari kwambuka imodokari zirahagarara zikareka bagatambuka.

Umuhanda ugaragaza aho abagenzi bagenda n'amaguru bambukira, kuvuga ibinyabiziga byose iyo bigeze aho hantu birahagarara bikabanza bikareka abo bagenzi bagenda n'amaguru bakambuka.

Umuhanda, igice cy'aho abanyamaguru bambukira, imbere gato hakurya y'umuhanda hari feruje ziri kwaka umutuku, ibumoso hakaba hari feruje iri kwaka umuhondo.

Uwo umuhanda wa urimo umumotari utwa umugenzi, imbere yaho hirya hari imodokari zigenda n' zigaruka, hepfo y'aho hari imodokari yari iparitse y'umutuku, ni ikamyo igaragaza akamenyetso k'uko yagize ikibazo.

Mu muhanda uriho ibimenyetso byereka abanyamaguru aho bambukira, urimo ibinyabiziga hirya yaho hari abantu, urujya n'uruza rw'abantu. Hakaba hari na bya byapa by'imiriro bakunda kwita feruje. Imodokari n'ibinyabiziga byose byari bihagaze birindiriye ko haka icyatsi bigatambuka.

Imodoka y'ivatiri y'umutuku yariri mu muhanda. Umuhanda mwiza wa kaburimbo ufite isuku, igihugu cyacu kigira kibanda cyane kugira isuku mu mihanda.

Umuhanda uri hejuru y'undi, uri munsi hari ibinyabiziga, hari imodokari iri munsi y'ikiraro cy'umuhanda, hakaba hari n'abamotari batwaye abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo bari kwerekana igice cy'aho imodoka zihagarara n'akayira k'abanyamaguru, abanyamaguru bari barimo kugenda mbere hino hahagaze umugabo wari uhetse marete y'umukara afite igare.

Umuhanda munini ufite ibisate bibiri, igisate kimwe cyari kirimo imodokari ziri kugenda, hakaba n'imodokari y'ikamyo y'ubururu yari iparitse ahabigenewe, igisate kindi nta modokari yari irimo.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodokari, izigenda n'iziri kuza, igenda ni ivatiri, inyuma yayo hari umunyonzi w'igare, iziri kuza ni ikamyo ya fuso.

Mu muhanda imbere hirya hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'abantu. Hakaba hari n'amaduka ahegereye. Ibinyabiziga birimo harimo za moto, abamotari batwaye abantu, n'amagare n'imodoka.

Imodokari ya dina iri mu muhanda, itwara amabuye cyangwa se imicanga, ikabigeza ahari inyubako barimo kubaka.

Umuhanda urimo imodokari ziri kugend hakaba iruhande hari ahagenewe imodokari guhagarara umwanya munini, hakaba hari ivatiri irimo kuvamo umuntu, hepfo y'agahanda k'abanyamaguru hari umuntu uri kugenda yikoreye igikapu mu mugongo.